Abanyeshuri bari kwiga kudoda bakoresheje imashini inyongeshwa amaguru, imwe bashyiramo urudodo n'urushinge, bari kwiga ndetse na mwarimu wabo abari inyuma, bafite umwete rwose uri kubona ko ariho umutima wabo uri.

Abanyeshuri bari mu ishuri ririmo intebe bicayeho bafite amakayi bari kwandikamo, imbere hariho umwarimu uri kubigisha, bambaye udupfukamunwa biragara ko ari mu gihe cya kovidi.

Ishuri ry'incuke rigizwe n'intebe n'utumeza ndetse n'utubati, n'ibikoresho byabugenewe mu kwigisha abana batoya. Nta mwarimu urimo nta n'umunyeshuri uririmo, ariko ibikoresho birimo biragaragaza ko ari ishuri ry'inshuke.

Imashini ikoreshwa no kunyonga n'amaguru n'intoke, ikoreshwa n'abantu kandi bashyizemo urudodo n'urushinge. Nk'uko aha muri kubireba, uyu muntu yashyizemo urudodo n'urushinge, ari kudoda.

Abanyeshuri bari ku mashini idoda bari kubyiga. barikuyikoreraho ari abanyeshuri batatu. Iyi mashini ni imwe idodaga za borudera baridele bayikoreshaga bacometse ku mashanyarazi.

Ishuri rigizwe n'intebe n'ameza ririmo isaha na vandarateri，vandarateri ni ya mashini izana umuyaga cane ubushuhe mu gihe hakonje，hakazana ubukonje mu gihe hashushe，mu bigaragara ni ishuri rya kaminuza n’ubwo nta capa ariko ibikoresho birimo biri kuhagaragaza， nta n’umwarimu urimo.

Umusore n'inkumi bahagaze iruhande rw'ikibumbano, kigaragara ko ari ki mu ishusho ry'umugore gifite nagaseke k'urutugu uyu mukobwa agifasheho. Yambaye inifomu y'abanyeshuri y'icatsi n'umweru, niyo kuri Eziri muri Musanze niyo bambararaga kuri Eziri.

Abanyeshuri bari kwiga imashini, bari mu cumba cabugenewe c'imashini zibagamo, uri kubona ko bose buri wese ahugiye mu bye, buri wese ahugiye mu byo ari kwiga, ntawe uri kureba ku ruhande. Rero mu gihe uri mu kintu uje ukibamo neza, ugikore nk'uko bikwiriye, ushobora.

Abanyeshuri bari mu cumba ca komputa aho bitaga muri komputa labu. Ni icumba cabugenewe kibaga kirimo imashini, iyo abana bagiye kwiga isomo ry'imashini nimwo bajaga.

Umugabo afashe fashe ifoto ye n'umugore we n'umwana wabo arayishushanya neza neza, uri kubona ko ari gushushanya umwana kuri ya foto, rero umuntu ushushanyaga guca bamwitaga umunyabugeni cangwa umunyabukorikori.

Ni abanyeshuri b'abakobwa biga mu mashuri abanza, umwe yashushanyije umugabo ufite imbunda iri kirasa, undi yashushanyije inzu igaragara nkaho igeretse, biga mu mashuri ya leta....

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kumwe na mwarimu wabo ari kubaha impanuro, babonye abashitsi barikumviriza ibyo mwarimu ari kubabwira kugira ngo bamenye uko baza kuvugana n'abashitsi ,bamuteze amatwi kandi baramukurikiye mwarimu arishimye cane.

Abanyeshuri biga guteka, bakora isuzuma ku byo biga bakabiteka, bakareba ko bari kubimenya, ico bitaga pratike. Ubu rero abanyeshuri bamaze gukora pratike, ico bitaga sarade, bari kuyifotorezaho ubwo bameze kubona ko imeze neza.

Abasuderi ni abantu basudira ibyuma, yaba ibyuma bikora imireko, yaba inzugi za metalike nibo babifatanya, ibyuma bidafatanye barabifatanya, ibyuma bakeneye guca barabica bakongera bakabisudirira, baba bambaye linete zabugenewe.

Abanyeshuri bari muri sitaje, bari mu isuzumabumenyi, byo bafite ibyuma bipimaga umuriro. Aka kuma kari imbere yabo, gapimaga umuriro winjiraga mu byuma bitandukanye, byaba ibyuma bya moteri y'imodoka, byaba ibya kwi ibya moteli ya moto, mbese niko kamaro kabyo.